Mu ishuri ni ahantu hahurirwaga n'abantu batandukanye, bavuye mu nce zitandukanye cangwa se badahuje umuco. Ariko bakaza bakiyicara ahantu hamwe mu cumba kimwe, bakabigisha ibintu bitandukanye.